Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abana mu kwidagadura bakina imikino igiye itandukanye ikindi kandi bakabiryaho umunyenga bityo bikabafasha kuruhura mu mutwe ndetse bakishima, kiri mu mabara agiye atandukanye ari umutuku, umuhondo. Hari n'ibiti byiza byifashishwa no gutanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Igare ryifashishwa n'ababyeyi mu gutwara abana batoya mu gihe bari gutembera mumuhanda rinafasha gutuma umubyeyi atananirwa kubera guheka umwana igihe kirekire.

Iri ni rimwe mu maduka acuruza ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye, byiyifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Harimo: imiceri, amavuta, amasabune, ibyo kunywa by'amoko yose, inyanya ndetse n'ibindi byinshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, bari kwiga kwandika ndetse no gusoma imibare igiye itandukanye, bicaye ku ntebe nziza bituma bumva baguwe neza.

Iyi ni imwe mu nyubako yifashishwa n'abaturage mu kujyanamo abana babo b'incuke kugira ngo babashe kumenya kwandika gusoma ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Abana bane bigitsina gabo ndetse n'igitsina gore bari gukina imikino bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ibi ni ibikinisho byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke kugira ngo basobanurire abana ubwoko bw'imodoka bubaho.

Iki ni igikoresho cyifashishwa n'abana b'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke kifashishwa mu gutwaramo icyo kunywa igikoma icyayi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bikabafasha kwidagadura bagakina na bagenzi babo bakishima, bakanezerwa. Hari amazu meza y'inyubako yifashishwa n'abanyeshuri bigiramo ikindi kandi hari n'ubusitani bwiza, bityo bigatuma abarushye babwicaramo bakumva baguwe neza.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri y'incuke kugira ngo bajijuke biyungure ubumenyi bityo bazavemo abantu b'ingirakamaro.

Aba ni abana bigaragara ko bari kurya umunyenga ku gikoresho cyabigenewe, bityo bikabafasha kwishima, kunezerwa ndetse bakaganira na bagenzi babo, kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo.

Ibikoresho byifashishwa mu kwidagadura, abana baza bagakina, bakishima, bakanezerwa. Hari abana bahagaze mu kibuga mu ubusitani.

Aba ni abanyeshuri bagiye kwiga bigaragara ko hari mugenzi wabo uri kubasobanurira bimwe mu byo mwarimu yabigishije, hari ikibaho cyifashishwa n'abarezi mu gihe bari gusobanurira abana, ikindi bicaye ku ntebe bityo bakumva baguwe neza kuko biga badahagaze, hari amakayi yifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwandika ibyo mwarimu yabigishije.

Iki ni kimwe mu bigo byigisha abana ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho kibigisha ubwoko bw'inyamaswa bugiye butandukanye ndetse kikanabigisha gushushanya.

Iki ni kimwe mu bishushanyo byifashishwa n'abana biga mu kiburamwaka, ukiga ndetse no gutandukanya inyamaswa zigiye zitandukanye, ku masura yazo ndetse no mu mazina yazo, aho hari ibishushanyo by'imbwa ndetse n'amapusi, biri mu busitani.

Kandagira ukarabe yifashishwa mu kunoza isuku ukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, kugira ngo tugabanye gukwirakwiza indwara ziterwa n'umwanda. Hari ubusitani bwiza cyane abaturage bicaramo bakaruhuka.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abarezi mu kurera abana b'inshuke, bikabafasha kumenya utuntu twinshi tugiye dutandukanye; nko kumenya amafi, bakabasha gukina, bakanezerwa.

Iri ni rimwe mu irerero rifasha abana b'incuke kwiga ndetse no kwiyungura ubumenyi ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, nko kumenya inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye harimo inzovu, kumenya amabara agize idarapo ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ni ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, bityo bakabasha kwiga neza bakabona ibizamini ku gihe cyagenwe, ndetse kikanafasha gushaka akazi.

Iyi ni imwe mu nyubako igaragara i Nyagatare yifashishwa mu kurereramo abana bafite imico myinshi igiye itandukanye itari myiza bityo bakabasha kuhabonera uburere bwiza kandi butunganye.

Ibi ni bimwe mu bikoresho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha mu gukina imikino igiye itandukanye, bityo bigatuma abana biga neza bakishima ndetse bakanaharuhukira mu gihe bananiwe.

Aha ni ku kigo cy'amashuri abanza aho abanyeshuri bari kujya mu ishuri ndetse n'abarezi babo bahagaze bari kureba abanyeshuri uko bihuta kugira bagere mu ishuri bafate ubumenyi.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga isomo ry'imibare; bakabyifashisha mu guca imirongo, bakabyifashisha mu guca ibiziga ku mpapuro. Hari ikaramu z'ibiti zifashishwa mu kwandika, hari buwate yifashishwa mu kubika bya bikoresho byose.

Aba ni bamwe mu banyeshuri biga mu mashuri abanza, aho bari gutozwa isuku batoragura imyanda iri mu busitani bakayijugunya ahabugenewe.

Izi ni zimwe mu ntebe abanyeshuri biga mu mashuri abanza bicaraho mu gihe bakurikiye amasomo mwarimu ariku hari kubaha. Hari n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye, harimo amatara, abafasha kureba neza mu gihe bari kwiga.

Ibikoresho byifashishwa n'abana biga amashuri abanza mu gukina, ndetse no kwisanzura na bagenzi babo, bifasha kwiga gusobanukirwa amazina yabyo, ndetse n'ibindi byinshi, harimo imipira yifashishwa n'abakinnyi b'umupira w'amaguru ndetse n'ibindi byinshi.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, kikifashishwa mu guca imirongo, mu gushushanya ibiziga, mu gucunga amakaramu y'ibiti ndetse no gusiba ibyanditswe nabi.

Aba ni bamwe mu banyeshuri biga mu mashuri y'inshuke aho bari kwiga kwandika imibare igiye itandukanye, bicaye ku ntebe nziza bityo bakumva baguwe neza, hari ibishushanyo byinshi bibafasha kwiga ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kumwe n'abarezi babo, ikindi kandi imbere y'ishuri hateye ubutani bwiza.

Iyi ni imwe mu nyubako, hifashishwa mu kurereramo abana b'abanyeshuri. Bakahigira gusoma, kwandika, hari inyubako nziza, hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti byiza bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Ishuri ryifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza mu gufata ubumenyi bwo kwiga gusoma, kwandika ndetse n'ubundi bugiye butandukanye, hari kandagira ukararabe yifashishwa mu kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza mu guca imirongo, mu gushushanya, mu kwandika ndetse hakabamo n'igikoresho kibafasha mu gusiba ibyo banditse nabi.

Iri ni rimwe mu ishuri rifasha abana b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mu kwiga hari ikibaho bandikaho kugira ngo babone ibyo bari kwiga, hari intebe nziza bicaraho kugira ngo batananirwa, hari amadirishya meza atuma babona umwuka mwiza.

Uyu ni umwarimukazi uri kwigisha isomo ry'imibare yatanze n'imyitozo ku kibaho, ngo abanyeshuri bayikosore barebe nimba isomo ryumvikanye.

Iki ni ikigo cy'amashuri abanza kikigisha abanyeshuri kwiga gusoma no kwandika. Hari ibiti bikikije ishuri, bifasha abanyeshuri kugira ngo bahumeke umwuka mwiza.

Aba ni abanyeshuri, bigaragara ko bari ku kigo cy'amashuri aho baza kuhafatira ubumenyi bugiye butandukanye, nko kwiga gusoma, kwandika, ndetse n'ibindi bi bitandukanye. Hari abarezi babafasha mu kubaha ubumenyi bugiye butandukanye.

Aba ni bamwe mu barezi barerera mu bigo by'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye bigaragara ko bari kwita ku bikoresho by'ikoranabuhanga bizwi ku izina rya mudasobwa ino aha mu Rwanda, bifashishwa mu kwigisha abanyeshuri ibikoresho by'ikoranabuhanga, hari ikibaho kifashishwa n'abarezi mu gusobanurira abana neza ibyo bari kwiga ndetse n'ibikoresho byiza byifashishwa mu guterekaho mudasobwa.

Iri ni rimwe mu ishuri ryigiramo abana b'inshuke bakiga gusoma ndetse no kwandika, hari intebe nziza bicaraho mu gihe bari kwiga hari n'ibitabo bifashisha mu gihe bari kwiga, hari amatara meza yifashishwa mu kubamurikira mu gihe bwije.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, bibafasha mu guca imirongo mu makaye yabo, bikabafasha mu guca ibiziga, ndetse no mu gushushanya.

Iki ni kimwe mu bishushanyo bigaragaza umuco nyarwanda, aho ababyeyi bicara bakaganiriza abana babo, bakabacira imigani, ndetse n'ibisakuzo. Hari igiti cyiza kibafasha kwicaramo bakirinda izuba, ndetse bakabona n'umwuka mwiza.

Iri ni rimwe mu ishuri ryifashishwa mu kwigisha abanyeshuri gusoma no kwandika. Hari intebe nziza bicaraho, hari udukapu batwaramo amakaye, hari amakayi bandikamo ndetse n'inkweto bambara.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye aho bari gukaraba intoki zabo n'amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo birinde gukwirakwira kw'indwara zigiye zitandukanye.

Uyu ni umwe mu banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mu bigaragara biragaragara ko afite icyo ari kuvuga abwira abantu, inyuma ye hari ubusitani bwiza ushobora kwicamo ukumva uguwe neza, ni ibiti byiza bitanga amahumbezi.

Uyu ni umunyeshuri bigaragara ko ahagararanye n'umumamama, ahagaze imbere y'ikigo aho bari bari gufata ifoto y'urwibutso, ku kigo hari ibiti byiza bitanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse n'amafoto amanitseho Idarapo ryu bahiriza Igihugu.

Aba ni ababyeyi abagabo ndetse n'abagore, bigaragara ko baje gushyigikira abana babo bashoje kwiga mu kiburamwaka, aho bagiye gutangira mu mashuri abanza. Aho bazahabonera ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. Bahagaze imbere y'inyubako nziza bigaragara ko ariho abanyeshuri barererwa.

Aba n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye aho bari bari gufata amafoto y'urwibutso hamwe na bagenzi babo, kugira ngo umushyikirano no gusabana bikomeze bibarange.

Iki ni icyumba cyahariwe abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, aho bakigana bafite uburwayi bwinshi bugiye butandukanye bakabasha kuharuhukira bakahabonerwa n'ubuvuzi bw'ibanze bityo bakumva baguwe neza, hari ibiti byiza bituma abahagana babona umwuka mwiza wo guhumeka ndetse n'ikigega kifashishwa mu gutanga amazi.

Abanyeshuri bari gukora isuzumabumenyi bicaye ku ntebe nziza bambaye inkweto z'umukara n' amasosogisi y'umweru.

Iki ni ikigo cyigisha amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye gisangwa muri Nyagatare, gitanga uburezi bugiye butandukanye nko kwigisha abana gusoma no kwandika ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bihabwa abanyeshuri, mu gihe bari kwiga.

Aba n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye munsi y'ibiti bituma babona umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bikanabakingira izuba, hari ikigega kibika amazi yifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye, yaba kuyoga ndetse no kuyanywa.

Abagabo, abagore, bahagaze ku kigo cy'amashuri ya segonderi, aho bari kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari ibiti byiza, bitanga umwuka mwiza wo guhumeka, bitanga n'amahumbezi.

Iki ni ikigo kigisha mu mashuri yisumbuye kigafasha abana kwiga neza, hari ikigega kifashishwa mu gutanga amazi bityo abanyeshuri bahiga bakagira isuku, hari ibiti byiza abanyeshuri bashobora kwicaramo bagahotera izuba bityo bakabona n'umwuka mwiza wo guhumeka, hari imodoka yifashishwa kugeza abana no ku ishuri.

Iki ni kimwe mu bigo birera bikigisha abana gusoma no kwandika ndetse n'ibindi bi bitandukanye, hari ipoto ryiza rimanitseho idarapo yacu ry'Igihugu cy'u Rwanda, hari ibiti byiza byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka bityo abahigira bakabonera amahumbezi ndetse bakumva baguwe neza, hari intebe yicayeho abantu bigaragara ko abagana iki kigo ari yo ntebe baruhukiraho.

Aba ni abanyeshuri bari kwiga ikoranabuhanga, aho bari kuganira na bagenzi babo, bari mu magurupe kugira ngo ibyo bari kwiga bibashe kumvikana neza.

Aba ni bamwe mu banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Aho bari kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse bari no gusoma mu makaye yabo kugira ngo bagire ibyo biyibutsa ndetse banabibwira bagenzi babo. Bari mu nzu nziza imeze neza ibafasha kwirinda izuba.

Aba ni abanyeshuri bicaye mu magurupe bari kwiga ndetse banasobanurirana ikoranabuhanga kugira ngo bakomeze bagire ubushobozi bwo kuryumva ndetse binabafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Aba ni bamwe mu banyeshuri basoje icyiciro cy'amashuri yisumbuye, bakaba bari baragiye gutozwa nk'intore ku rugerero. Hari ababyeyi babo babaherekeje kugira ngo basoze urugerero neza. Bari mu ishitingi ryiza riri mu mabara atandukanye y'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo, bicaye ku ntebe nziza bityo bikabarinda kunanirwa.

Aba ni bamwe mu bubatsi ndetse n'abayobozi, aho bafatiye ifoto y'urwibutso ku marembo y'inzu bakoreramo akazi kabo ka buri munsi, hari amadirishya meza, hari amaburokesima meza, hari amatara meza abamurikira mu gihe cya nijoro.

Aba ni abaturage bigaragara ko bahagaze imbere y'icyumba cy'abakobwa gikunze kuboneka mu mashuri yisumbuye, aho umukobwa wese ugize ibibazo bigiye bitandukanye ahagana akaruhuka akahabonera ubuvuzi bw'ibanze, hari ikigega kiza kibamo amazi bityo bakimika isuku.

Uyu ni umwe mu baturage b'urubyiruko bigaragara ko hari ahantu ari kuva hari n'ahari kugana. Hari n'abandi benshi bamuri inyuma bigaragara ko hari gahunda bari bavuyemo bagiye mu yindi. Hari ibiti byiza bitanga umwuka wo guhumeka.

Iki ni ikibaho aho umurezi aza akacyandikaho ari kwigisha abanyeshuri ndetse ari no kubasobanurira kugira ngo abanyeshuri bakomeze bumve ndetse basobanukirwe n'ibyo bari kwiga.

Aba ni bamwe mu banyeshuri biga mu mashuri ya Kaminuza, hari inyubako nziza cyane yifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga, hari ubusitani bwiza bwo kuruhukiramo ndetse hari n'amadirishya meza acamo umwuka mwiza wo guhumeka.

Imwe mu nyubako yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza kuhagera bakahigira bakahabona ubumenyi bugiye butandukanye, isize irangi ry'umweru, isakaje n'amabati y'umutuku, hari ubusitani bwiza bunogeye amaso, hari ibiti byiza bitanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse n'amatara amurika mu gihe cya nijoro.

Ubu ni bumwe mu bugeni bukoreshwa n'abaturarwanda ubu bugeni bufasha mu gukwirakwiza ibikorerwa mu Rwanda bityo u Rwanda rwacu rugahora ku isonga.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha mu gihe ushaka kwicara ukumva uguwe neza, wabibonera mu maduka agiye atandukanye kandi akwegereye, hari inzu nziza ushobora gukuramo ibyo bikoresho.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri, bakacyifashisha mu gihe bari bicaye bari gukurikirana amasomo yabo ya buri munsi. Iki gikoresho ni kiza kuko gituma wumva uguwe neza bityo ukabasha kwicara ukaruhuka.

Uru ni urubyiruko rurimo inkumi ndetse n'abasore, bigaragara ko basoje kwiga ikiciro cy'amashuri ya kaminuza, aho bose bambaye amakanzu yambarwa n'abasoje kwiga kaminuza, asa umukara bose bajugunye ingofero zabo bari gufata ifoto.

Iyi ni imwe mu nyubako yifashishwa nk'inzu abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza bigiramo ndetse bakakora ubumenyi bwinshi bugiye butandukanyekanya. Hari intebe nziza bicamo bakumva baguwe neza ndetse n'amezaza yifashishwa mu gihe bari kwandika. Iyi nzu iri kuri nimero rimwe R cumi na gatatu.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kwiga cyane cyane mu mashuri ya kaminuza, aho hari amakaramu adufasha mu kwandi ku kibaho, hakaba hari n'amakaramu adufasha mu kwandika mu makaye yacu, hari na telefoni yifashishwa mu kwiga dukoreshe ikoranabuhanga.